Aha turabona umuntu urimo gukaraba intoki ahantu ku mugezi, aho amazi arimo aturuka ku gitembo agatega.

Aha turabona ababyeyi barimo bavoma ababyeyi batatu aho babiri bari inyumaka igihe kimeze nk'icyuma kugira ngo bandi abe yabashafasha kuvoma.

Aha hari abaganga batandukanye ikigaragara ni kwa muganga ndetse turahabona musaza barimo batera urushinge cyangwa se urukingo.

Uyu mwana arimo akaraba intoki areba ku ruhande aho yafunguye robine agashyiraho amazi make kugira ngo abashe gukaraba intoke neza.

Uyu muganga arimo atera urushinge uyu mubyeyi kugira ngo abashe kuba yamurinda icyorezo runaka cyangwa yamuvura uburwayi butandukanye.

Aha hagaragara nk'ahantu hari icyorezo kuko hari abantu bipfutse umubiri wose basa nk'aho ari icyorezo gihari kugirango ngo babashe kuba bakirinda.

Aha na ho hari umubyeyi uri hafi y'ibyatsi, afite ibido yayiteretse kuri robine, arimo avoma amazi amufasha gukora ibintu bitandukanye.

Aha dufite umugore n'umugabo bicaye ku ntebe aho uyu mugore atwite bakaba bagannye umujyanama w'ubuzima, aho uyu mujyanama w'ubuzima arimo abaganiriza.

Abana bari ku mugezi aho bagiye kuvoma, bamwe barimo bafungura abandi batega utubido kuri robine kugira ngo amazi abashe kuza.

Uyu mumama ari kumwe n'abana babir, umwe aramuhetse ndetse uhagaze asa nk'ukikiye uwo bahetse uyu mama yicaye ku gatebe aho agaragara ko arimo gutekera abana igikoma ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Uyu mubyeyi arimo yigisha umwana we uburyo yaborosa amenyo, akoresheje uburoso kugirango arusheho kwongera isuku.

Uyu mwana barimo bagiye kumukura amenyo, aho muganga afite ibikoresho byifashishwa kugira ngo babashe kuba bavura amenyo yuyu mwana.

Aha turahabona umurwayi usa nkaho arwaye amenyo ndetse n'umuganga urimo amuvura kugirango amufashe kuba yamuvura.

Aha turabonye umugabo ufite akanu kabugenewe wifashisha usukura amenyo kugira ngo arusheho kuba yarinda amenyo be uburwayi butandukanye bushobora kuba gatu.

Uyu ni umwana ugaragara nka'ho akiri mutoya, arimo atwereka ko agiye kuborosa amenyo cyangwa se asoje kuba yaborosa, aho afite uburoso.

Umusaza wicaye ahantu muri jaride uri kumwe n'umugore w'umuganga uri kumwitaho arikureba uburyo umutima we uri gutera kugira ngo.

Aha turahabona umusaza n'umukecuru, aho umukecuru afashe agapapuro yereka umusaza uburyo yakoresha ino miti iri mu gacupa.

Aha dufite umusaza n'umukecuru aho umusaza arimo yereka umukecuru uburyo yakoresha imiti iri iruhande rwabo ndetse nyuma yaho naho hari indi miti.

Uyu mukecuru yicaye ahantu hagaragara nk'aho ari mu murima aho atetse yateye amashyiga hanze akoresheje amabuye...

Uyu mukecuru yambaye imikenyero ndetse afashe mikoro muntoki kugira ngo abashe kuba yavuga abantu bari hafi ye babashe kumva.

Umugore wicaye wambaye amashati isaha arimo afasha kugira ngo abashe kuba yareba uburwayi

Uyu muganga yambaye mu ijosi ibikoresho byifashishwa kugira ngo barebe umutima w'uwo muntu uko urimo gutera ndetse anareba uburyo umusaza ameze.

Aha hari umusaza n'umukecuru aho uyu musaza arimo yishimye ndetse n'umugore we bishimanye, bicaye ahantu baganira.

Ibi n'ibiribwa bitandukanye bishobora gufasha umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi, ho harimo imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri.

Uyu mubyeyi barimo bagiye kumupima barebe umuvuduko w'amaraso ye uburyo atembera mu mubiri, hari umuganga urimo aramufasha.

Aha ahagaze umuntu uhagaze iruhande rw'inzu iri mu mugi wa Kigali, aho hari hagiye kubera amarushanwa yo guhangana,..

Aha ni muri gym, aho tubona ibyuma bitandukanye abantu bashobora kugenda bakifashisha kugira ngo barambure umubiri wabo, aho hari ibyuma bitandukanye.

Aha hari inyubako igaragara ko ari nini, ni etaje impande yabwo hari amatara hari jaride isa neza irimo indabyo ndetse irimo umucaca.

Aha hari igipangu, nyuma yacyo hari icyapa kirimo kirakwereka amerekezo girereye mu mujyi wa Kigali, aho kikwereka ibyerekezo by'ahantu ushobora kuba wajya.

Aha ni ku bitaro aho hari ibitanda bitandukanye mu barwayi bashobora kuvura, rero igihe baganye ivuriro ndetse hakaba n'amarido hagati, aho buri murwayi ashobora gushyira ibintu hagati ye n'undi.

Aha turahabona inyubako y'ibitaro bya Kigina, aho tubona geti yaho, aho winjirira ugana serivisi, uje gushaka serivisi muri ibi bitaro, ndetse hanze yaho hari abaturage...

Aha bafite umwana urimo asunika umupapa, aho yari agiye kumwinjiza mu muryango tubona iruhande rwabo, uwo muryango ukaba urimo umubyeyi w'umumama.

Aha ni kwa muganga, aho hari ibitanda bitandukanye byifashishwa n'abagwayi igihe baganye ibitaro ndetse hagati tanda n'ikindi harimo ri.

Uyu muganga yambaye ikirango cy'akazi, kiriho izina rye ndetse n'indi myirondoro, aho arimo atera uyu mugabo urushinge.

Uyu mugore arimo asukura uru ruhinja rumaze kuvuka, yarusize ahantu hari ibintu bimeze nk'uburiri butoya ariko ni agatanda gatoya.

Uyu mukobwa arimo akora siporo, arambura amaboko aha yambaye kuteri ndetse arimo kumva imiziki, kugira ngo abashe gukora siporo ye neza.

Igihe kirahure arimo gusukamo amazi ,amazi ari kujyamo avuye mu ijage ,aho bari gusuka amazi mu kirahure.

Aka gakapo kakifashishwa cyane cyane n'abatekinisiye kugira ngo ube watwaramo ibintu bitandukanye, aho ushobora gutwaramo agasizo, ugatwaramo icupa, isaha ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Uyu mugabo arimo akora siporo ananura amaguru aho ari kuyikorera mu nzu, inyuma y'inzu hakaba hari indabyo z'umuhondo ndetse.

Aka ni akagare kifashishwa cyane cyane igihe umuntu yagiye muri super market arimo ahaha ibintu bitandukanye kugira ngo abashe kuba yabona uburyo atwara.

Uyu muntu yicaye, barimo bamupfuka akaboko, aho hari undi urimo kumufasha ashyira ibipfuko ku kiganza cye aho bigaragara ko afite, yaba afite ibisebe mu ntoki.

Uyu mugabo afite icupa ririmo amazi, aho arimo kunywa amazi ndetse uyu mugabo yambaye umupira ujya gusa umukara, utari umukara neza.

Aba bantu barimo bakora siporo aho bateraniye ahantu hamwe kugira ngo babashe gukorana siporo barikumwe.

Aha umugabo yambaye impeta ndetse yambaye n'agakomo mu ntoki aho arimo akora siporo ananura akaguru ke kugira ngo..

Uyu mukobwa arimo akora siporo arambura amaguru n'amaboko kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza, amaraso atembera neza mu mubiri ndetse n'umubiri urusheho gukomera.

Aha uyu ni umuntu uri muri siporo yambaye imyenda ya siporo ndetse hari ahabugenewe gukorera siporo, itapi, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, hari imipira yo gukina aho arimo gukorera siporo.

Uyu mupapa ari kwa muganga, aho afite imashini imbere y'iwe, arimo kurebera umurwayi uko ubuzima bwe buhagaze, akoresheje imashini.

Aha turahabona icyatsi bita mutaramaka wifashishwa kuvu mu buryo bwa gakondo aho ushobora gukoreshwa ku burwayi mutwe.

Aha dufite amacupa atandukanye aho aya macupa agaragara ko arimo ubuki afite amacupa maremare ndetse n'amacupa magufi.

Aha ndahabona icupa ririmo umuti ukoreshwa mu buryo bwa gakondo, aho uwo bamaze gutunganya bawushyira mu gikombe. Ubona ko ukozwe mu gikakarubamba.

Izo ni tungurusumu zifashishwa mu buryo butandukanye, aho wazifashisha ubwora indwara zitandukanye igihe burwaye nk'amagiripe ushobora gukoresha iyi tungurusumu kugirango.

Iri ni ishyamba rya kimeza, aho harimo ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti bifite ubwoko butandukanye, aho ibi biti biba bitaratewe ahubwo biba byarimejeje ahantu runaka.

Aha hari amacupa akozwe mu buryo butandukanye, amaremare n'amagufi amwe akozwe muri parasitike, yakozwe mu byuma aho aya macupa arimo arifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibi ni ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hano baratwereka uburyo wabitunganya kugira ngo ube wabasha gukuramo umuti wo kwifashisha.

Aya ni amacupa atatu arimo urinini rifite ubwoko butandukanyekora bararatandukanye ndetse y'aho hariindi kika igaragara ni yo kuwa gatandatu gusa.